Umuganga urimo urakorera isuzuma umuntu, hafi yaho hari n'umukorerabushake, wambaye imyenda yabugenewe, umuganga ni igitsina gabo, ku ruhande rwiwe hari undi muntu w'igitsina gore, umurwayi ni igitsina gore.

Abakozi b'ikigo bavangavanze, muri bo harimo ab'igitsina gabo, ab'igitsina gore, ndetse hanarimo muri bo bamwe bambaye imyenda y'akazi igiye bahuza iyo bari mu kazi nk'impuzankano zabo zibaranga.

Ikirango kigaragaza ikigo cy'Igihugu cy'u Rwanda gishinzwe iby'amazi, iki kirango harimo kugaragaramo igisa nk'igitonyanga cy'amazi, hakagaragaramo n'amagambo yanditswe mu mabara atandukanye.

Umugangakazi uri kumwe n'umubyeyi ufite akana karimo gahabwa umuti, umugangakazi yambaye umwenda wamugenewe umuranga.

Abantu benshi bagiye bicara mu matsinda, aba bantu bicaye bavanze igitsina gore n'igitsina gabo mu buryo bwo kugira ngo ubuvuzi bube bwagera ahantu henshi hatandukanye, aba bantu ni byo barimo kugenda baganiraho nk'uko bicaye bavanze.

Abana bane bari ku ivomero bavoma, ariko ivomero bavomaho, bisaba kugenda usunika, usunika, kugira ngo amazi azamuke. Muri abo bana, harimo uwambaye umupira utukura, harimo n'abandi bagiye bambaye imyenda itandukanye.

Umwana uri ku ivomo, uyu mwana afite igikoresho kifashishwa bavoma. Arimo agiterura agerageza kugishyira ku mutwe we yamanje guca bugufi, arasutama ngo abone uko akizamura agitereke ku mutwe we.

Abantu benshi batandukanye bavangavanze igitsina gore n'igitsina gabo, bagiye bicaye mu matsinda, aho itsinda buri tsinda hariho abantu bafite amazi yo kunywa ndetse bakagira n'udukayi bandikamo ibyo bari kumva.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi bavanze igitsina gore n'igitsina gabo. Harimo abandika ibyo babwirwa, hakabamo n'abahanze amaso uwo ubabwira.

Abajyanama b'ubuzima bahuriye hamwe bambaye impuzankano zibaranga, harimo n'abandi bagabo babiri, umwe yambaye imyenda y'umukara, undi yambaye na we impuzankano y'akazi y'umweru imuranga.

Abajyanama b'ubuzima, bambaye imyenda ibaranga n'amakarita abaranga mu ijosi. Imbere yabo, hahagaze umugabo w'umuzungu. Aba bajyanama b'ubuzima barimo bakoma amashyi aho bahagaze, imbere y'inyubako y'ikigo nderabuzima cya Mayange, barishimye bamwe.

Abana bari ku ivomero, bari ku ivomero bagenda basunika, bamanura, bazamura bamanura kugira ngo amazi aze, ni abana benshi harimo abafite ibivomesho byabo mu ntoki, abandi barazengurutse bari kurebera, aba bana baravanze igitsina gore n'igitsina gabo.

Umugangakazi urimo gutera urushinge umurwayi. Umugangakazi yambaye utufpukantoki n'agapfukamunwa, hafi ye hari abandi baganga na bo bambaye imyenda ibaranga, ndetse umwe ugaragara yambaye na we agapfukamunwa.

Abantu benshi batandukanye, bari mu kigo cy'abana bato b'inshuke, aba bantu baje kureba abana bato b'inshuke, harimo abigitsina gore n'ab'igitsina gabo, mwarimu w'aba bana abahagazemo hagati yambaye umwambaro umuranga, harimo n'uw'igitsina gore.

Umwana uri ku ivomo, uyu mwana arimo anywa amazi akoresheje ibiganza bye, amazi aramucika atagiye mu kanwa ke arimo agwa ku ndobo iteretse kuri iri vomero.

Icyumba cyabugenewe cy'inama, iki cyumba giteraniyemo abantu benshi batandukanye ab'igitsina gore n'igitsina gabo. Buri muntu imbere ye hagiye haba hari icupa ry'amazi, bicaye cyangwa bagiye bicara ku kintu cyo kuba nk'aho buri wese arebana na mugenzi we.

Umugore n'umugabo, barimo bavoma amazi ku ivomero, iryo vomero rirubatswe, hejuru yaryo rifiteho akantu k'umurimbo bagiye bazengurutsaho, uyu umugabo umugabo arimo afite ikivomesho cye mu ntoki, n'umugore afite ikivomesho cye mu ntoki, umugore yipfutse ikintu mu mutwe.

Abantu babiri inyuma yaho hari inkwi zimyase hafi y'aho hari agahema gatwikiriye ibintu bicaye ku ntebe imwe umwe ari kubaza undi ibibazo bitandukanye kugirango amenye imitekerereze yiwe.

Umuntu wicaye ahantu yambaye ibyenda byacikaguritse, uyu muntu afite uruhu rusa n'umukara. Uyu muntu afite uburwayi bwo mu mutwe nk'icyo twakwita ko ubwonko bwe butagenda neza.

Inyubako yubatse neza ifite n'urubaraza. iyo nyubako iteretse hejuru hasi yayo hari igikuta cy'amabuye hagiye ku nzira zayo hajya hazengurutsaho utwuma twirinda kurinda kubaha ibibazo biboneka umuntu akaba yafatwa n'ikizengera akabura uko yifata akagwa hanze.

Ababyeyi babiri, buri mubyeyi agiye afite umwana wiwe. Hirya yabo mu gice kigaragara nk'imbere yabo, harimo umuntu urimo kubagira inama, ababwira nk'uburyo bakita ku buzima bw'abana babo, ndetse na bo ubwabo.

Abana benshi batandukanye, bambaye impuzankano z'ishuri. Aba bana barimo boza amenyo yabo nko mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'amenyo.

Icyumba cyabugenewe k'ivuriro, iki cyumba kifashishwa iyo bakura cyangwa bavura amenyo, muri iki cyumba k'ivuriro, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byabugenewe kuvura cyangwa gufasha gusuzuma.

Umuntu w'igitsina gabo arimo kuvurwa n'abaganga babugenewe, abo baganga bambaye udupfukantoki ndetse uwo muntu bamwasamishije batangiye kugenda bamukorera ubugenzuzi basuzuma uburwayi afite mu menyo.

Abaganga babiri b'igitsina gabo bambaye udupfukantoki, udupfukamunwa ndetse n'imyenda yabugenewe y'akazi, bambara bavura. Umurwayi ni igitsina gore yasamye barimo bamureba mu kanwa bareba uko ubuzima bw'amenyo bwiwe buhagaze.

Umuntu wasamye amenyo ye ari kugaragara, afite akadodo ari kugenda anyuzamo akuramo imyanda mu rwego rwo kugira ngo azane isuku. Yakoresheje amaboko ye yombi abiri arimo kugenda anyuza buri hagati y'amenyo.

Umusaza uri kumwe n'umwana we amwigisha amusomera, ku ruhande rwabo hariho ibikombe bibiri, kimwe kiri kuri ruguru iruhande rw'umwe, buri wese iruhande rwe hateretseho igikombe cyera.

Abantu bifotoreje ahantu, harimo igitsina gore n'igitsina gabo, inyuma yabo hari ibimera bifite amababi y'ibyatsi kandi ibyo bimera biravangavanze, aba bantu bose barimo baseka bareba k'ubafotora.

Umugangakazi uri kumwe n'umurwanyi w'igitsina gore. Yamwambitse igipimo mu kuboko kw'iwe, arimo amupima. Umugangakazi yambaye imyenda y'akazi, umurwayi yicaye mu kagare.

Abantu bageze mu za bukuru bicaye ahantu aho bahanze amaso mu gice cy'imbere yabo habaho nk'abateze yombi umuntu urimo ubabwira. Ibi biri mu cyiciro cyo gufata neza abageze mu za bukuru.

Umugabo n'umwana bari mu kibuga gikinirwamo. Umupira bakinisha amaboko. Umugabo arimo gutoza umwana mutoya amwerekera.

Abaganga bari ahantu, bambaye imyenda ibafunze umubiri wose yabugenewe kuvura indwara z'ibyorezo, zandura binyuze mu buryo bwinshi butandukanye.

Inyubako y'ibitaro yabugenewe ni inyubako y'ibitaro, harimo ibyumba birimo ibitanda byabugenewe abarwayi baryamaho iyo bari mu bitaro.

Abantu bahagaze bifotoza bahagaze bavanze b'igitsina gore n'igitsina gabo, bamwe ni abirabura, abandi ni abafite uruhu rwera bazwi nk'abazungu, bahagaze ku bitaro bya Butaro niho bifotoreje.

Umugangakazi uri mu nyubako y'ibitaro, aho arimo kugenda asuzuma cyangwa areba ibiba byafashwe ku bikoresho by'ikoranabuhanga arimo asuzuma amakuru yafashwe areba neza mu gice kigaragara k'igikoresho cy'ikoranabuhanga.

Inyubako y'ivuriro, yabugenewe kuvuriramo, irimo ibikoresho byinshi bitandukanye, hakabamo n'ibishushanyo bigaragaza amaso.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku murongo hagati yabo harimo intera, iyo ntera niyo kugira ngo ibafashe cyangwa ibarinde kuba bakanduzanya ibyorezo bitandukanye, bambaye udupfukamunwa kugira ngo batanduzanya, hafi yabo n'imbere ya bamwe hari umugabo uhagaze, ni urujya n'uruza rw'abagenda n'abagaruka.

Ibitaro by'Akarere bya Shyira. Ibyo bitaro bisakajwe amabati. Kubruhande hariho imireko ifata amazi. Ibi bitaro bigeretse kabiri. Hari inzu yo hasi, hakaba n'inzu yo hejuru.

Inzu cyangwa icyumba cyagenewe gufasha abantu kugorora umubiri ndetse kikanifashishwa n'abasore baterura, bagura imikaya yabo cyangwa bagorora umubiri wabo cyangwa n'abakobwa bashobora kukiyifashisha, kirimo ibikoresho bitandukanye byafasha umuntu.

Inzu y'ivuriro, aho ababyeyi babyarira. Iyi nzu, hanze yaho, ahagana nko ku mabaraza yayo, hateretse intebe ebyiri. Hafi y'iyo nzu haragaragara abantu babiri. Ahari abantu babiri, harimo umugabo.

Umusaza, uri kumwe n'umugangakazi, umugangakazi, yashyize igipimo, mu ukuboko, kwa wa musaza. Barimo amupima, baganira, amubwira n'ibipimo, amubonamo.

Inzu yabugenewe yo gukoreramo imyitozo ngororamubiri, iyi nzu harimo ibikoresho byinshi byabugenewe mu gufasha abantu mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Amarembo agaragaza ibitaro bya Kabgayi, muri ibyo bitaro harimo inyubako nyinshi zitandukanye, harimo umuntu urimo winjira uri ku kinyabiziga kigendeshwa n'ibiziga bibiri, hakaba n'abandi bantu bagaragara bahagaze ahantu hasa n'ahihishe.

Icyumba cyabugenewe cy'ivuriro, muri icyo cyumba harimo igitanda, hakabamo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi basuzuma abantu cyangwa batera imiti abarwayi.

Inyubako y'ivuriro. Iyo nyubako harimo haragaragara igice cyabugenewe, cy'impinja ndetse n'abagore, aho babyarira. Hahagaze umugabo wambaye umwenda wabugenewe, abaganga bambara. Yambaye agapfukamunwa.

Icyumba cyabugenewe cyo gukorerwamo imyitozo ngororamubiri. Iki cyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Imiti myinshi itandukanye ibitswe mu nzu zabugenewe zishinzwe kugurisha imiti, iyo miti ipanze mu buryo bwiza, aho uyibona ndetse ipanze ku buryo ushobora kuwurebera inyuma utagombye kwinjira mo imbere.

Umuntu w'igitsina gabo uri gukora imyitozo ngororamubiri anywa amazi, igihe ahagaze areba hejuru, uwo muntu yambaye imyambaro yabugenewe yo gukora imyitozo ngororamubiri idahisha amaboko cyangwa intugu ze.

Umuntu w'igitsina gore urimo gukora imyitozo ngororamubiri. Iyi myitozo ngororamubiri iba igamije kugorora ingingo zitandukanye harimo amaboko, amaguru n'igice cy'umugongo.

Icyumba cy'ivuriro, cyarimo umuganga, hakabamo n'umurwayi w'igitsina gabo, muri icyo cyumba harimo ibitanda, harimo ibikoresho byabugenewe by'umwihariko mu gusuzuma no kuvura, umuganga arimo avura ukuguru k'umurwayi w'igitsina gabo.

Icyumba cyo kuvuriramo, icyo cyumba kirimo umuganga w'igitsina gabo arimo arakorera isuzuma ku murwayi wambaye ipantaro y'ibara ry'umukara.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye imyenda yabugenewe yo gukora imyitozo ngororamubiri, hafi y'iwe hateretse icupa ry'amazi, arimo akora imyitozo ngororamubiri arambura amaguru agakoza amaboko ku maguru ye.

Icyumba cy'ivuriro cyagenewe kuvuriramo abarwayi, kirimo ibikoresho bitandukanye byo kuvura, harimo umurwayi w'igitsina gabo, hakabamo n'umuganga w'igitsina gore, mu ntoki ze yambayemo udupfukantoki, arimo akorera isuzuma' umurwayi w'igitsina gabo.

Umuntu w'igitsina gabo urimo gukora imyitozo ngororamubiri, uyu muntu w'igitsina gabo yambaye imyenda yabugenewe yo gukora imyitozo ngororamburamubiri isa numukara.

Umuntu w'igitsina gore arimo akora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda yabugenewe yo gukora imyitozo ngororamubiri, afite icupa ry'amazi aho arimo ayanywa araramye.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye imyenda yabugenewe yo gukora imyitozo ngororamubiri, aho yazamuye ukuguru kwe agafatisha amaboko, mu gice cy'ivi, cy'akaguru ke.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri. Aricaye nk'uruhuka, yambaye imyenda y'umukara yabugenewe yo gukora imyitozo ngororamubiri, afite icupa ry'amazi mu ntoki arimo kurya asomaho.

Umuntu w'igitsina gabo uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye imyenda yabugenewe yo gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'inkweto zabugenewe, yarambuye ukuguru, yashinze n'akaboko hasi.

Umuntu w'igitsina gabo uri mu myitozo ngororamubiri, yicaye ahantu ari kunywa amazi, afite icupa ku munwa mu ntoki afitemo igikoresho cy'ikoranabuhanga.

Abantu babiri ugaragara hafi ni igitsina gabo, hirya yiwe hari n'undi w'igitsina gabo. Aba bari mu cyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Ikirango kigaragaza Ikigo K'Igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ubutabazi no gutanga amaraso. Iki kigo gifite ikirango, hagati y'amagambo kirimo ikimenyetso gitukura cy'umusaraba, inyuma kigakikizwa n'amagambo no hasi hakaba amagambo.

Umukobwa wambaye imyenda yabugenewe yo gukora imyitozo ngororamubiri, mu ijosi ryiwe afitemo agatambaro, ari kunywa amazi areba mu cyerekezo cyo hejuru.

Abantu babiri bari mu myitozo ngororamubiri bafite amacupa y'amazi mu ntoki zabo, bambaye imyenda yabugenewe yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Abakozi batandukanye, barimo bakora imirimo twakwita nk'iyabufundi, cyangwa y'ubukorikori, aba bantu harimo uwuriye urwego rumufasha kugera hejuru, abandi bari kumuhereza ibikoresho akifashisha, ibi bitaro ni ibya Faisal.

Umuntu w'igitsina gabo uri mu gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda yabugenewe yo gukora imyitozo ngororamubiri. Yazamuye ukuguru agufataho, nk'imyitozo yo kugorora ingingo ze. Arimo agendera ku nkengero ku mpande y'umuhanda.

Ikimera cyameze ahantu, gifite amababi y'icyatsi, hagati yacyo harimo andi mababi yahahungukiye yamaze kuma.

Ibimera bigiye bitandukanye, ibyo bimera, ibigaragara hafi bifite amababi yicyatsi, muri ibyo bimera harimo ibigiye bisumba ibindi, ibindi bimera akaba ari birebire kurusha ibindi.

Imiti gakondo iteretse ahantu hamwe habugenewe ivura indwara nyinshi cyane, uko igiye ipanze biri ku murongo kandi hagati y'ibyiciro by'umuti hagiye hacamo akantu k'imbaho kayitandukanya n'ubundi bwoko bw'imiti.

Abantu batandukanye bari mu murima uhinzemo imiti ivura indwara gakondo, hafi aho ngaho harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bibafasha mu kwita kuri iyo miti gakondo cyangwa mu buhinzi bw'iyo miti gakondo.

Ikimera kiri ahantu, gifite amababi mato matoya y'icyatsi, ku ruhande rwacyo harimo hagiye haba hari ubutaka butaramerwaho n'ibimera.

Ni amacunga menshi asataguye, amwe afite ibara risa n'umuhondo, andi muri yo muri ayo ngayo afite ibara ry'icyatsi.

Ibimera by'icyatsi byinshi, muri ibyo bimera harimo umugabo, uwo mugabo yafashe ku mababi y'ibyo bimera arimo abyitegereza.

Ikimera kiri ahantu mu butaka, icyo kimera kigenda kirandaranda ku butaka, icyo kimera harimo aho kigiye gifite indabo zasambuye kandi icyo kimera ni icy'umuti gakondo, kiri mu butaka bwose butarakwirwamo n'ibimera.

Umuntu uri mu bimera, ibyo bimera bifite amababi y'icyatsi ahagaze hagati yabyo, yambaye akantu cyangwa umwambaro w'ibara ritukura, imbere yaho muri wo harimo akantu k'icyapa kera, inyuma yarengejeho agakote k'umukara.